Icyumba cy'inama. Akaba icyi cyumba cyubakishije amatafari ahiye. Amadirishya n'ibirahure bikaba bisa umweru, intebe ziri muri icyi cyumba zikaba zisa umutuku ndetse n'umukara

Icyumba cyabereyemo inama yahuje abantu benshi batandukanye bahagarariye inzego zitandukanye z'igihugu, iki cyumba kikaba gisa amarangi y'umuhondo, hakaba hitabiriye inzego zitandukanye zirimo iz'igisirikare, iz'ubugenzacyaha, ugucunga gereza.

Icyumba bakoreramo inama, inama ikaba irimo abagabo ndetse n'abagore hakaba hubakishijwe igikuta gisa umweru ahandi umukara, hejuru ku gisenge hakaba hasa umweru ndetse harimo n'amatara yaka umweru.

Abakobwa bambaye imikenyero y'umweru, bateze urugore .Barimo barabyina bya kinyarwanda, bakaba bari mu kirori kirimo abagabo n'abagore bicaye...

Inka y'inyambo, ikaba iri ku musozi, aho agasozi iriho kariho ibyatsi, ikaba imaze kurisha kuri uwo musozi.

Ubworozi bw'amatungo, aho aya matungo bayita inka. Izi nka akaba ari inka z'umuco, akaba ari inka bita inyambo. Zikaba zifite amahembe aba asongoye cyane ku buryo aba yenda gukoranaho.

Umugore ufite umusatsi mwinshi arimo arasya ku rusyo ifu ikamanuka ijya ku musambi, imbere ye hakaba hari ikibo.

Ibiti by'amashanyarazi bisa umukara, ibindi bikababisa umweru, bimanitseho insinga hejuru zisa umukara, ndetse zikaba zimanitseho n'amatara amurika mu muhanda.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, rukaba rwubakishijwe ibyuma by'umweru, hakaba hateye ibindi byuma by'umweru bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abagabo barimo bakurura insinga bazimanika hejuru ku biti by'amashanyarazi, bakaba bambaye amajire asa icyatsi cyerurutse n'aho abandi bakaba bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero n'umweru n'aho abandi ingofero n'umuhondo.

Icyumba barimo gukoreramo amashanyarazi, harimo abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu, ingofero z'umukara, inkweto z'umukara, icyumba kikaba cyubakishije, gisize amarangi y'umweru.

Mubazi y'umuriro w'amashanyarazi, iyo mubaze ikaba ibara umuriro waguze n'wo umaze gukoresha, ikaba yegeranye n'agakombe bahurizamo insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abagabo barimo baramanika icyuma gihindura imirasire y'izuba kikayigira umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu nzu, bakaba barimo barakimanika hejuru y'inzu.

Urugomero rw'amashanyarazi, uru rugomero rukaba rwubakishijwe ibyuma, ibyuma hakaba ariho n'ibindi bizamutse hejuru bifatiraho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi kure cyane, rukaba ruzengurutswe n'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugore udoda imyenda, akaba arimo kudoda igitenge, aho ari mu nzu isize amarangi y'icyatsi kibisi, akaba imashini ye isa umweru.

Igiti gitwara insinga z'amashanyarazi, aho iki giti kiriho icyapa cyerekana ko bibujijwe kuhegera cyangwa kugikoraho kuko kibirazira.

Amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, aho umanika icyuma cyabugenewe hejuru yinzu, kigahindura imirasire y'izuba mo umuriro w'amashanyarazi ukoresha mu nzu.

Igiti kizamutse kuva mu butaka, kikaba kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari umugabo ubishinzwe urimo uratanga umuriro mu baturage awukura ku giti kiriho umuriro w'amashanyarazi, akaba ajyana mu ngo z'abaturage.

Umugabo w'umubaji. Akaba ari aho babariza, akaba arimo arasena neza imeza. Akaba ari gukoresha igikoresho cyabugenewe. Aho afite imashini isa ubururu ndetse n'iyindi isa...

Urugomero rw'amashanyarazi aho hari ibyuma birebire biteyeho insinga z'amashanyarazi, hakaba n'ibindi bikusanyirizwamo insinga kugira ngo bohereze ahantu henshi hatandukanye, hakaba imbere y'aho hari umukobwa wambaye ijire isa icyatsi.

Abagabo barimo barateranya ibyuma babisudira bifashishije umuriro w'amashanyarazi, bakaba barimo barakora amadirishya ndetse n'inzugi, bakaba bambaye amasarubeti y'ubururu abandi bambaye ingofero z'icyatsi ndetse.

Ibiro by'akagari hakaba hubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umweru, hakaba hari abagabo barimo barasezerana bazamuye amaboko hejuru basoma ku rupapuro.

Ikibuga cy'umupira, aho harimo hakinira amakipe atandukanye, ku kibuga hakaba hari abafana benshi, baje ku kibuga.

Inzu y'Umurenge wa Katabagemu aho yubakishije amatafari ahiye, inzugi zikaba zisa umweru nkaho amabati akaba asa ubururu, hanze hakaba hicaye abamama babiri.

Ikiraro cyo mu kirere, kikaba ari ikiraro kinyura hejuru y'amazi, kikaba gikozwe n'imigozi, aho abaturage barimo kukinyuraho hejuru.

Inyubako y'isoko rya kijyambere aho iri soko ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba risakaje amabati y'ubururu.

Inyubako ya leta akaba ari urwibutso, ikaba yubatse igerekeranye ikaba isakaje amabati y'umukara ibikuta bikaba bisize irangira ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uciye hejuru ku musozi, ukaba uri kunyurwamo n'imodoka, hejuru hakaba hateye amashyamba ndetse n'ibyatsi.

Umugore wikoreye ufite agasuka mu ntoki, yambaye umupira w'umutuku akenyeye n'igitenge, afite umwana mu ntoki barimo kunyura ku kiraro k'ibiti, imbere yabo hari umwana hakaba hakikijwe.

Inzu leta yubakiye abaturage. Akaba ari umudugudu wubakishijwe amatafari ahiye. Ukaba usakaje amabati y'umutuku. Ukaba ufite inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya.

Abaturage bahagaze hejuru y'ikiraro, iki kiraro kikaba cyubakishijwe sima n'umucanga, kikaba gisize amarangi y'umweru n'umutuku.

Inzu y'ibiro by'akarere ka Nyagatare aho iyi nzu yubatse igerekeranye ikaba iriho amadirishya y'umweru, ibirahuri by'umweru.

Inzu ya leta aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati atukura, imbere y'iyi nzu hakaba hari imodoka ihahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uciyerimo ibimenyetso byo mu muhanda imirongo icagaguye, ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibihuru.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, akaba ari ikibuga kizengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma, imbere yacyo hakaba hari intebe abakinnyi n'abatoza bicaraho.

Inyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari inyubako yubatse igeretse, ikaba inyurwa imbere mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abaturage. Aho ku mpande hakikijwe n'ibiti bitwara insinga z'amashanyarazi.

Abantu barimo baragendera hejuru y'Ikiraro, ikiraro cyo mu kirere gikozwe n'imigozi, bakaba hasi harimo amazi ku mpande hakaba hateye ibiti, ibyatsi n'amababi yabyo.

Ikiraro cyo mu kirere. Aho iki kiraro cyubakishijwe n'imigozi. Abaturage bakaba bari kukinyuraho, babisikana bagiye aho bajya, batifashishije kunyura hasi.

Ikiraro kinyurwaho n'umugabo wambaye ishati y'umweru, inkweto z'umukara n'ipantaro y'ubururu hamwe n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wumweru, ibiti bikikije ikiraro n'insina zikikije.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Aho iki kibuga abafana bicara hakaba hasize amarangi y'ubururu, uhondo ndetse n'icyatsi. Kikaba gisakajwe amabati hakaba harimo abakora imyitozo ngororamubiri y'abaturage.

Inzego z'umutekano ziri kuganira n'abaturage, aho inzego z'umutekano ziganjemo abambaye icyatsi kibisi ndetse n'igisirikare, bakaba bari mu ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse bakaba bahagaze mu byatsi.

Inzego z'umutekano zirimo ziraganira n'abaturage n'abayobozi by'umwihariko, aho inzego z'umutekano zirimo igisirikare n'iz'igipolisi cy'igihugu, aho baganira n'abayobozi barimo abambaye amakanzu y'umuhondo n'amakoti y'umukara.

Abayobozi bari gukoresha inama abaturage mu kibuga, bakaba bicaye hasi ku bwatsi, abayobozi bakaba biganjemo ab'umutekano: igisirikare, igipolisi ndetse n'izindi.

Abantu bari ku rwibutso, urwibutso rukaba ruriho indabyo zisa umutuku n'umuhondo, izindi zisa icyatsi, hakaba harimo abashinzwe umutekano, abasirikare.

Abayobozi bakaba bakoze inama n'abaturage bakaba biganjemo abo ubugenzacyaha, bakaba bambaye imyenda y'ubururu bwijimye bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru n'ameza ajya gu gusa umuhondo.

Icyumba bakoreramo inama. Aho inama yiganjemo abayobozi b'igipolisi cy'igihugu ndetse n'abandi. Bakaba bari mu cyumba gisize amarangi y'umweru, ndetse n'umukara inyuma.

Icyapa cyerekana aho itorero risengera, akaba ari icyapa kiri ku muhanda giteye mu busitani. Imbere yaho hakaba hari umuhanda wa kaburimbo. Hakaba ku nkengero zawo hubatse inzu.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kunyurwamo kinyabiziga bita imodoka, kikaba gisa umweru ndetse n'umukara avanzemo imbere, ku nkengero z'umuhanda hakaba hateye ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kugendwamo n'igare, akaba imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu cyapa, imbere y'umuhanda hakaba hateye ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umunyonzi uri kugenda asunika igare mumuhanda, akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, aho uyu muhanda uri kunyurwamo n'imodoka ndetse n'ipikipiki, hakaba ku nkengero z'umuhanda, hubatse amazu, akaba asa umweru.

Moto iri mu muhanda wamabuye ikaba itwawe n'umugabo wambaye karindamutwe k'umutuku, ikirahure cy'umweru imbere, akaba yambaye umupira w'umukara n'ipantaro hasi, moto ikaba isa umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba uriho icyapa cyerekana ko imbere hari inzira z'abanyamakuru batambukamo mbere, cyikaba ari icyapa gishyirwa imbere, hatararagera aho izo nzira ziri.

Ibiti bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, bikaba biteye ku muhanda, aho biha umuriro abaturage, kandi ku mpande yabyo hakaba hari ibindi biti.

Aho ibinyabiziga bihagarara kugira ngo bifate abagenzi, hakaba hahagaze imodoka y'umweru, hakaba hari abantu bategereje kwinjira muri iki kinyabiziga ngo kibatware.

Icyapa cyo ku muhanda, cyerekana ko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, kikaba giteye ku nzira, hakaba hateye hafi yacyo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, aho uyu muhanda uri kunyurwamo ikinyabiziga bita imodoka, ikaba isa umutuku. Ku nkengero z'umuhanda, hakaba hari inzu zihubatse ndetse n'ibiti bihateye.

Abantu benshi bicaye mu gisharagati aho bari kwizihiza urugerero rw'Inkomezabigwi, aho abapapa bambaye imipira y'umukara n'amapantaro y'umukara.

Amakipe y'umupira w'amaguru akaba arimo arakina mu kibuga cy'ubwatsi. Ikipe imwe ikaba yambaye ubururu bwijimye buvanzemo ibara ry'icyatsi. Indi ikaba yambaye ubururu bw'ikirere. Bakaba barimo baratsinda berekeza ku izamu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, akaba abakinnyi bambaye amakabutura asa n'ubururu n'imipira y'ubururu bivanzemo icyatsi. bakaba barimo barakina umupira ujya gusa umweru. Ku impande hakaba hakikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abana barimo barakina umukino njyarugamba, aho aba bana bambaye impuzankano z'umutuku ndetse n'inkweto zifunze hasi.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira. Bakaba barimo baritoza umukino. Bakaba bambaye imyenda isa ubururu bwijimye uvanzemo icyatsi. Ikibuga cya kizengurutswe n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'utwuma tw'umutuku.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, kikaba kiri gukinirwamo abantu bakaba gukina umupira usa umutu, kukegeroro z'ikibuga hakaba hari imirima iriteyemo ibyatsi.

Ikipe y'umupira w'amaguru ikaba iri gukina, ikinira mu kibuga. Ikibuga kikaba kirimo ibyatsi bisa icyatsi. Aho iyi kipe yambaye hejuru ubururu bwijimye buvanzemo icyatsi ndetse n'amasogisi y'ubururu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba agiye kuba umukino w'amakipe abiri, imwe ikaba yambaye ubururu bwijimye cyane, akaba yambaye umutuku werurutse, hakaba harimo n'abasifuzi, ikibugaka gisa icyatsi, umusifuzi akaba afite umupira imbere ye.

Abafana b'umupira bakaba baje kureba umupira muri sitade aho sitade ifite intebe zisa ubururu kandi abafana bakaba baje bambaye imipira y'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi kivanze n'umukara.

Ikibuga cy'umupira wamaguru kikaba giteyemo ibyatsi, kikaba gikikijwe n'urutoki rwinsina. Umugore akaba arimo arakina umupira w'umweru we akaba yambaye ipantaro y'umukara.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kikaba kiriho ubwatsi busa icyatsi, kikaba gikurutirijwe ibyuma, na ho hakaba ari mu kibuga umugabo n' umugabo akaba yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, akaba afite umupira imbere yawo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru bakaba barimo barakina umupira usa umweru, amakipe akaba yambaye imipira y'umutuku naho indi ikaba yambaye ubururu bwijimye bivanzemo na oranje.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, iki kibuga akaba ari ikibuga k'ibyatsi, kaba harimo gukinamo ikipe yambaye imyenda y'ubururu bwijimye yivanzemo n'icyatsi, bakaba bari gukiniramo umupira.

Ikipe y'umupira w'amaguru aho yambaye ubururu bwijimye cyane hakaba harimo n'akandi kabara k'ubururu bwerurutse akaba ari ikibuga cy'ubwatsi kikaba kizengurutswe n'aho abantu bicara hasa ubururu umuhondo n'icyatsi.

Ikipe y'umupira w'amaguru ikaba iri ku kibuga, aho iki kibuga kirimo intebe zisa ubururu, naho iyi kipe ikaba yambaye imipira n'amakabutura by'umuhondo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kikaba kirimo ibyatsi kikaba kizengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma by'icyatsi n'umweru, aba bakinnyi mu kibuga bambaye imyenda itukura ndetse n'umukara hasi hakaba harimo abagore n'abagabo.

Ikibuga cy'umupira, aho iki kibuga gisa icyatsi, kikaba kirimo kirakinirwamo n'amakipe abiri, aho imwe yambaye imipira y'umweru ndetse indi ikaba yambaye imipira y'umukara, ikibuga kikaba gikorotirijwe uruzitiro rw'ibyuma.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kikaba kirimo intebe zisa ubururu, kikaba gisize amarangi y'umweru, hakaba harimo umugabo w'umunyamakuru, wambaye umupira w'ubururu ufite mikoro itukura.

Abafana b'umupira, bakaba bicaye ku kibuga, aho ikibuga kirimo intebe z'ubururu, abafana bakaba bambaye imipira itandukanye, aho bamwe bambaye umweru, umutuku n'ubururu bwerurutse.

Abafana baje gufana umupira, bakaba bambaye amapantaro y'umukara n'imipira y'umweru ndetse n'umupira y'icyatsi. Bakaba bari muri sitade isize amarangi y'umuhondo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru aho iki kibuga kiri gukinirwamo n'umugore uri kumwe ndetse n'umugabo, bakaba ari gukina umupira ikibuga gisa icyatsi kibisi, kikaba kizitiwe n'uruzitiro rw'ibyuma.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kikaba ari ikibuga kiri gukinirwamo n'amakipe abiri y'abakobwa, imwe ikaba yambaye imyenda itukura naho indi ikaba yambaye ubururu bwijimye cyane.

Umwana w'umuhungu, wambaye umupira w'umweru n'akagofero k'umukara, akaba ari kwerekana impano ye, idasanzwe yo kuruma umuriro, akaba ari kuyereka abantu benshi bamureba.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, inyuma y'iki kibuga hakaba hari ahantu abaturage bagororera imibiri . Hakaba hari n'umutoza wabo mu kubatoza ibyo bakora kugira ngo bagorore ingingo zabo.

Ikipe y'umupira w'amaguru, ikaba iri ku kibuga. Ikibuga kikaba kizengukishijwe n'ahantu abantu bicara; hasa umweru, umuhondo ndetse n'ubururu. Akaba ikipe yambaye hejuru imipira ya oranje n'amakabutura y'umukara.

Akayira k'abanyamaguru kakaba kari mu murima, kakaba kari mu murima udahinze, umurima ukaba urimo ibyatsi, naho ku mpande hakaba hari uruzitiro.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uyu muhanda uri kunyurwamo n'ipikipiki ndetse n'imodoka, akaba ku nkengero z'uyu muhanda hateye ibiti, ibyatsi ndetse n'indabyo.

Umugabo arimo aragenda mu muhanda wi'ibitaka, akaba ari kwitaba telefone ku matwi, akaba yambaye ipantaro y'umukara ikote ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo. Ukaba uciyemo ibisate bibiri, hakoreshejwe irange ry'umuhondo. Akaba uri kunyurwamo n'abanyamaguru. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibyatsi.

Inzu bafatiramo icyo kunywa n'icyo kurya. Aho iyi nzu isize amabara atukura. Ikaba ifite amadirishya y'umweru n'inzugi zitukura. Hanze hakaba hari n'ibyapa, byerekana akuka.

Umuhanda wa kaburimbo, aho umuhanda uri kunyurwamo n'umunyamaguru, imbere y'uy'umuhanda hakaba hubatse inzu ifite igikuta gisa umweru. Aho ku nkengero z'umuhanda hazamuye ibyuma bitwarwaho insinga z'amashanyarazi ndetse biriho n'amatara amurika ku muhanda.

Ikibuga bigishirizaho ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hateyemo ibimenyetso bikwereka uko ugomba kwitwara muri iki kibuga.

Umunyonzi arimo aracunga igare mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibyatsi, hirya y'umuhanda, umuyonzi akaba yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, kaba ahetse intebe.

Umuhanda wubakishijwe amabuye ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibyatsi, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'umunyamaguru uri kugenda muri uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, aho uyu muhanda uri ku nkengero hakaba hateye ibyatsi ndetse hakaba hari ibiti birebire bitwara insinga z'amashanyarazi ndetse bagashyiraho n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba uri kunyurwamo n'abakobwa bagendesha amaguru, ku nkengero z'umuhanda hakaba hubatse inzu zisakaje amabati atukura.

Umuhanda ukozwe nka kaburimbo ukaba uriho amatara ku muhanda y'umweru ndetse n'insinga kandi hakaba hariho icyampa ku muhanda kandi uwo muhanda ukaba wubatsweho ku ruhande inzu.